Ni byiza kutumenyesha ko ubwishingizi bwaje kandi bunogeye kuri buri munyarwanda wese. Buritamu na yo, ni ikigo cy'ubwishingizi kigenewe gufasha abantu kwiteganyiriza, bijyanye n'ubuvuzi ndetse no kwiteganyiriza ejo hazaza. Twiyiteho, twikunde.

Ubu byarororoshye mu kugana ikigo cya arayesesibi mu bwisungane mu kwivuza aho usigaye utanga amafaranga y'ubwisungane bijyanye n'icyiciro urimo ndetse n'ubushobozi, gana ikigo arayesesibi kigufashe kwisungana mu kwivuza aho utazarembera m'urugo.

Aya ma shati akozwe mu mwenda witwa koto kandi aya ma shati ni amabara yose ajyanye nigihe tugezemo ku basore barayambara bakaberwa. umusore uwo ariwe wese aya mashati iyo awambaye uba ubona acyeye kuko arizewe aya mashati ni koto nziza cyane arakomera.

nikiri ngombwa ko mpinruka kujya guhurira hanze rwo no mu rwanda ha kuko cp op igaragaza tomtewe n'mbate ijyanye n'imodoka bost wavi bahagatse viza kandian biragaragara ko u rwanda rwagen cyane

Ikoranabuhanga ni ryiza ryakemuye byinshi ndetse ryatugejeje kuri byinshi mu iterambere, icyo ushatse gukora cyose iyo ugikoze oniliyini cyangwa se ukagikorera kuri mudasobwa uba wizeye ko byanga bikunda kizageraho kigomba kugaragara kandi kikagaragarira ku gihe kigasubizwa neza.

Iyo twicaye hamwe twungurana ibitekerezo .Buri mugenzi aganiriza undi mugenzi we,. atanga igitekerezo uko abyumva. Birushaho kuba byiza kuko buri wese aba yatanze igitekerezo cye uko abyumva. Kandi bugatuma twese buri wese yumva igitekerezo cya mugenzi we bikaduteza imbere.

Ubu amayero asigaye ari hejuru cyane kurusha amadolari. Amadolari ari hasi ugereranyije n'amafaranga y'amayero. Amayero ni amafaranga y'abanyaburayi, naho amadolari ni amafaranga y'abanyamerika kuko ariyo mafaranga akoreshwa cyane mu bihugu byo hirya no hino mu...

Ivunjisha ry'idorari kuri ubu ryarazamutse aho amadorari asigaye ari guhenda cyane bigatuma ubucuruzi ku masoko hirya no hino nabwo buzamuka. Ivunjisha ry'amadolari n'amafaranga hirya no hino ryarazamutse cyane.

Uburyo bwo kwamamaza bukoresheje icyapa bukabimanika bwageze aho butagikoreshwa cyane kuko buri kugenda bwibagirana aho abenshi basigaye bajya ku ku makoranabuhanga nko kuri tikitoke cyangwa watsapu, akaba yakwamamaza ibikorwa bye atiriwe ajya kwandika.

Kwizigamira ni byiza kuri buri muturarwanda wese. Ubu mu mabanki menshi ariho ubu, hari iyitwa Ekwiti ndetse n'imiryango irafunguye. Injiramo wizigamire, witeze imbere, ubukungu burambye buzakugeza ku iterambere ryiza kandi rinogeye. Ekwiti wayisanga ahantu hose mu gihugu cyacu.

Ubu iterambere ryaraje ryaragutse mu ikoranabuhanga, aho usigaye ubona ko muri emutiyeni, kubera ubwinshi bw'abakiriya basigaye bafite, ikoranabuhanga na netiwaka zigenda gake, ariko twizeye ko bigomba gukosorwa. Ubu ahenshi mu gihugu abakiriya bose usanga bafite simukadi za emutiyeni, ndetse bikagenda bikosorwa mu ikoranabuhanga ry'itumanaho.

Ikoranabuhanga ryateye imbere kuri iki gihe, ubu ushobora gutumizaho ibyo ukeneye ku isoko, ukoresheje iyakure, ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, ugatumizaho ibyo ukeneye byose ukoresheje tele telephone yawe, ugahamagara ku murongo baguhaye ukabona ibyo ukeneye.

Dusabane tuganiriza aba mucyera rugendo baba baje gusura igihugu cyacu. Tubamenyeshe ibyiza bitatse igihugu cyatubyaye. Tubagezeho ibyiza bitatse u Rwanda, kugirango barusheho gukunda igihugu no kucyishimira. Turusheho kwiga ururimi runoze kugirango dusobanurire twigisha neza.

Icyumba kiza gisukuye kirimo ibyangombwa byose, mu amadolari magana inani kugikodesha ku kwezi. Ntabwo yaba ari menshi cyane ugereranyije n'inzu z'iki gihe. Cyane ko irimo ibikoresho by'ingenzi bikenerwa, ibyo aribyo byose kuko ifite n'amasuku meza anogeye buri kimwe cyose kirimo wakenera.

Iyi nzu ni nziza kubwanjye njyewe ndi umuntu ugura inzu nayigura kuko ndabona agaciro kayo kari hasi cyane ugereranije n'uko imeze. Iyi inzu ijyanye n'icyerekezo ni inzu nziza ndetse ndabona ifite n'ubusitani ndetse ni ikitegererezo kigendanye n'igihe. Kubwanjye ndabona ikwiriye miliyoni ijana na makumyabiri n'eshanu y' amafaranga. Ayo mafaranga ni make cyane.

Turamamaza bamenyekanisha ibikorwa byanyu abakiriya bakaza babagana aho ariho hose mu gihugu, turamamaza ibikorwa byawe nawe utugane tukwamamarize ibicuruzwa byawe bigere ku isoko hose bibone abaguzi nkuko bisabwa iteka ryose twubahiriza amategeko.